Ababyinnyi bambaye imikenyero y'ubururu, bambaye n'ububodi bw'umweru, impande zabo hariho abantu bambaye imyenda y'umweru, bari kubacuririra.

Abagabo bakenyeye imikenyero y'umweru, bambaye n'inigi z'umweru zirimo amasaro y'umweru n'ay'umukara , impande yabo hariho abagore bakenyeye imikenyero y'umukara, inyuma yaho hariho imodoka y'umweru.

Niba abagabo basa nkaho bari kubyina, bambaye ibihura, bafite amacumu, bafite n'ingabo, inyuma yabo hari inzu ifite agasongero, inzu y'ibyatsi, inyuma hakaba hariho imigano.

Isekuru ni igikoresho gisekura isombe, ubunyobwa, ni igikoresho gikunze kuba mu cyaro, kifashishwa n'Abanyarwa batuye mu cyaro.

Inyubako zigeretse imbere yaho hari umugore wambaye agapfukamunwa, yambaye isaha ku kuboko, yambaye ikanzu y'amabara atandukanye, yambaye n'amaherena.

Abagabo n'abagore bambaye ibisurubeti by'ubururu, bambaye n'amajire y'icyatsi bambaye n'amakositimu y'umweru, basa nk' abari mu mabwiriza yo kugira ngo batangire akazi, nyuma hari inzu ifite amabati y'umutuku mpande yabo hakaba hari umudaso.

Musenyeri ari gutera umugisha mu kiliziya yambaye ikanzu y'umweru, yambaye n'ingofero y'umweru, yambaye igitambaro cy'umuhondo gishushanyijeho imbere ku mutima , abahereza bafite indobo y'umweru irimo amazi y'umugisha. Impande hariho umugore wambaye imikenyero y'umweru n'akabodi k'umutuku, afashe n'igikapu ahagaze mu ntebe.

Bafite amagare, rimwe ripakiyeho imifuka ibiri, irindi barihagaze impande, aba bagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amabara y'umweru n'ay'umutuku n'ay'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiga. Impande yawo hari amapave abanyamaguru banyuramo, impande zawo n'ubundi hariho ipoto ziriho insinga z'amashanyarazi.

Inama irimo abagore n'abagabo, iyobowe n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu, mu mutwe we harimo urugori, yaremeye iyo nama mu gasatere, yiganjemo abagore b'abayisilamu.

Urujya n'uruza rw'abantu ,imodoka zitandukanye, abagenzi bari gutega imodoka zibajyanye abantu hatandukanye. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Imyenda irimo ubururu, umweru ,umutuku ,umuhondo n'icyatsi.

Imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu, irimo abakarani bayipakira, bambaye amashati y'umweru n'ay'umukara, n'ayubururu. Impande ya ho hari umunyonzi wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, impande ye hariho umugore ushaka kumutega.

Bari gukina umupira bambaye umupira w'umutuku n'amakabutura y'umweru n'inkweto z'umukara zifunze, imbere yabo hari abantu bari kureba umupira, bari gukina n'abambaye amasengeri y'umuhondo.

Ibikombe bahemba abakinnyi iyo batsinze amarushanwa bari gukina n'ikipe runaka bayitsinze, barabibahemba.

Abanyamagare bambaye amabara atandukanye harimo amabara y'umuhondo n'umukara, harimo abambaye umweru n'ubururu, harimo n'abambaye kasike hari n'abantu bashungereye iyo siporo.